Iri ni isoko nk nkuko tubibona rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye ryiganjemo imboga ko tuhabona inyanya ibishyimbo ndetse n'ibindi, bikaba ari aho abaturage bashobora kubona ibyo bakeneye bituma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza ndetse n'abahinzi bakaba babona aho bajyana umusaruro wabo.

Hano ni umucuruzi uri kwamamariza ibicuruzwa bye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane ko muri iki gihe ari zo abantu bakunze gukoresha, bakaba bashobora kubibona bakagura ndetse bakabigezwaho.

Iyi myenda tubona hano ni iyo umucuruzi yashyize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi kubera ko muri iki gihe abantu benshi bakoresha ikoranabuhanga biba byabafasha kuyibona mu gihe bayikeneye, bakayitumiza kandi bakayigezwaho mu buryo bwihuse.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana ahantu hatandukanye nko mu mazu y'ubucuruzi cyangwa se hatuwemo n'abantu kaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko bifasha benshi mu mirimo yabo ya buri munsi.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari uburyo benshi bakunda by'umwihariko nk'abajya ku kazi, baba bakeneye kugera aho bakorera byihuse, kandi bikaba bitanahenze.

Iyi note y'ijana tubona hano yakoreshwaga n'igihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse, gusa kuri ubu ikaba itagikoreshwa, aho yasimbujwe igiceri.

Iki igiceri cy'amafaranga atanu ni icyakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse, ariko muri iki gihe akaba atagikoreshwa.

Iyi note y'ijana, ni iyakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda, mu myaka yatambutse, kugeza ubu ikaba itagikoreshwa, aho yasimbuwe n'igiceri,

Aya mafaranga ijana tubona hano ni ayakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse gusa ubu akaba atagikoreshwa kubera ko yasimbujwe igiceri.

Hano turahabona abantu bari kunywa amata nk'uko bigaragara, akaba ari mu nzu bacururizamo, aho aba yatunganyijwe neza kandi yabitswe mu buryo adashobora guteza ikibazo, uyaguze akaba yayahanywera cyangwa se akayatahana mu rugo.

Ibi byuma tubona aha ni bimwe mu bikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza, kandi abikwe mu buryo bwizewe kugira ngo abe atatera ikibazo abayagura bitewe n'uko hari abahita bayanywa cyangwa se bakaba bayajyana mu ngo zabo.

Iki cyuma tubona hano ni igikusanyirizwamo amata agatunganywa neza, kandi akabikwa mu buryo adashobora kwangirika n'abayagura bakaba bizeye ko atabatera ikibazo giturutse ku mwanda, cyane ko hari abahitamo kuyahanywera cyangw kuyatana mu ngo zabo.

Iki cyuma tubona hano kinini ni igikusanyirizwamo amata, kugira ngo atunganywe neza, kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika n'abayagura bakaba bizeye ko batari buhure n'ikibazo cy'uburwayi gitewe n'umwanda.

Iki cyuma kinini tubona hano nigikusanyirizwamo amata agakorerwa isuku Kandi akabikwa muburyo bwizewe kugirango nuyagura abe atamutera ikibazo gitewe n'umwanda cyangwa ibindi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nkuko tubibona, haba harimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo amata cyane ko tuhabona icyuma ashyirwamo kugira ngo atunganwe neza kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika ndetse n'uyaguze abe yizeye ko nta kibazo ashobora kumutera giturutse ku mwanda cyangwa se kuba yapfuye.

Hano turahabona amata ari mu gikombe, bikaba bigaragara ko ari mu nzu y'ubucuruzi acururizwamo, aho aba yatunganyijwe neza yakorewe isuku ku buryo umuntu ashobora kuyagura akahitayanywa, kandi akaba yizeye ko nta kibazo amutera.

Ibi ni bimwe mu bitwarwamo amata kugira ngo ajyanwe aho akusanyirizwa atunganywe neza kandi akorerwe isuku, kugira ngo n'abayagura babe bizeye ko ntakibazo cy'uburwayi bashobora guhura nacyo gitewe n'umwanda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, nk'uko turi kubibona harimo amazi, imitobe n'icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza, kandi abikwe mu buryo bwizewe kuba atakwangirika.

Iki cyuma tubona hano ni igikusanyirizwamo amata, agatunganywa neza kandi akabikwa mu buryo bwizeye, n'uyagura akaba adashidikanya ko ashobora kumutera ikibazo cy'uburwayi giturutse ku mwanda, cyane ko hari abahitamo kuhita bayanywa cyangwa kujya kuyateka mu rugo.

Hano turahabona inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye nk'imitobe amazi n'ibindi by'umwihariko amata tukaba turi kuhabona icyuma atunganyirizwamo kandi agakorerwa isuku kugira ngo nuyagura ube yizeye adashidikanya ko nta kibazo gitewe n'umwanda ushobora guhura nacyo .

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko tubibona, hari ibyo kurya byoroheje nk'amandazi, capati, imineke, amagi n'ibindi, aho bamwe mu baba bari mu kazi cyangwa ku rugendo bakunda kubyifashisha, kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora ibyo barimo.

Iyi ni imigati, akaba ari ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini ndetse n'ibindi, aho abantu bakunze kwifashisha ku mafunguro yabo ya mugitondo, ndetse n'abari mu kazi bashobora kuyifata kugira ngo bagire imbaraga.

Hano turahabona umucuruzi uri gusuka amata ayakura mu cyuma akusanyirizwamo kugira ngo atunganywe neza kandi abikwe mu buryo bwizewe ku buryo adashobora kwangirika cyangwa se ngo abe yateza ikibazo abayagura biturutse ku mwanda no kuba yapfuye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nkuko turi kubibona, hakaba harimo icyuma kinini gikusanyirizwamo amata, kugira ngo akorerwe isuku kandi abikwe neza mu buryo bwizewe n'abayagura babe badashidikanya ko ashobora kubatera ikibazo, giturutse ku mwanda.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwaramo amata kugira ngo ajyanwe ahakusanyirizwa agatunganywa kandi akabikwa mu buryo bwizewe n'abayagura bakaba bizeye ko batari buhure n'ikibazo gitewe n'umwanda no kuba yapfuye.

Hano turahabona abantu bafite n'ibikombe birimo amata nku'uko bigaragara akaba ari mu nzu y'ubucuruzi acururizwamo aho aba yatunganyijwe neza ku buryo umuntu ashobora kuyagura agahita ayanywa cyangwa se akaba yayajyana mu rugo rwe.

Ibi byuma binini tubona hano ni bimwe mu bikusanyirizwamo amata, agatunganywa neza kandi akabikwa mu buryo abadashobora kwangirika, n'abayagura bakaba bizeye ko nta kibazo ashobora kubatera giturutse ku mwanda, hari abahitamo kuhita bayahanywera cyangwa abayatahana mu ngo zabo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nkuko bigaragara ikaba icururizwamo irimo amata ndetse turahabona n'intebe aho umuntu ashobora kuba yayagura agahita ayanywa kubera ko aba yatunganyijwe neza kandi afite isuku ihagije.

Iki cyapa ni ikigaragaza inzu y'ubucuruzi ndetse nk'uko tubibonaho haracurizwamo ibyiganjemo amata; kikaba gifasha uwaba ukeneye kuyagura kuba yabona aho yayagurira mu buryo bumworoheye.

Iki cyuma tubona hano ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganywe kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika n'abayagura babe bizeye ko afite isuku ndetse adashobora kubatera indwara ziturutse ku mwanda.

Aya ni amandazi akaba ari ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amagi, amata ndetse nibindi aho abantu benshi bakunze kuyifashisha ku mafunguro yabo ya mugitondo cyangwa se nkabari mu kazi kurugendo bakaba bayafata kugirango bakomeze kugira imbaraga.

Hano turahabona abantu bari kunywa amata uko bigaragara ni mu nzu acururizwamo, aho aba atunganyijwe neza ku buryo uyaguze aba ashobora guhita ayanywa cyangwa se agahitamo kuyajyana mu rugo.

Aya ni amandazi akaba ar'ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amagi ndetse n'ibindi, aho abenshi bakunze kuyafata ku mafunguro yabo ya mu gitondo cyangwa se n'abari ku mirimo itandukanye mu rugendo, kuba bayafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikorera mu rwanda aho uhabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Iyi ni inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura, kandi uwo musoro ukaba ufasha igihugu mu bikorwa bitandukanye byo kugiteza imbere.

Iyi nyemezabwishyu niyo itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo wese umaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa ukora indi mirimo umaze kwishyura umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi uwo musoro ukaba ariwo wifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere ry'igihugu.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kandi igahabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo ,maze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinze imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kwishyura ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye nko kubaka imihanda, amavuriro n'ibindi.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda aho ihabwa umucuruzi cyangwa ukora indi mirimo maze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye mugiteza imbere.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mu bikorwa remezo bitandukanye by'igihugu, harimo nko kubaka imihanda amavuriro ndetse n'ibindi byinshi.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se undi wese ukora imirimo itandukanye, umaze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa nikigo gishinzwe imisoro namahoro gikorera mugihugu cy'urwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akaba ariyo yifashishwa mubikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Iyi ninyemezabwishyu itangwa nikigo gishinzwe imisoro namahoro gikorera mugihugu cy'urwanda, ikaba uhabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo umaze kwishyura neza Kandi ayo mafaranga akifashishwa mubikorwa bitandukanye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura, ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza igihugu imbere.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye, umaze kwishyura umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza igihugu imbere.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora imirimo umaze kwishyura, kandi ayo mafaranga akaba yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura.

Iyi ni inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo umaze kwishyura, ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'igihugu.

Iyi nyemezabwishyu tubona hano, ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'ukora imirimo itandukanye, amaze kumenyekanisha cya kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikaba ihabwa umucuruzi n'undi ukora imirimo itandukanye maze kwishyura umusoro kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa byo guteza igihugu imbere.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye, wamaze kumenyekanisha cya kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikorera mu Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora n'imirimo umaze kwishyura.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora imirimo itandukanye umaze kumenyekanisha cyangwa kwishyura umusoro.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa ukora indi mirimo itandukanye wamaze kwishyura umusoro we, ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa byo guteza imbere igihugu.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'Urwanda, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabyishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura ndetse ayo mafaranga agafasha igihugu mu bikorwa remezo bitandukanye no kugiteza imbere.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi muntu wese ufite ibyo akora umaze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye umaze kwishyura neza umusoro we, kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu rwanda. Ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye, umaze kwishyura umusoro we, kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza igihugu imbere.

Hano turahabona ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, birimo intebe, ameza, utubati kandi byose bikaba bikozwe mu biti, akaba ari ikigaragaza ko iyo byitaweho bigafatwa neza ntibyangirizwe bishobora kubyazwamo umusaruro ndetse n'abanyabugeni babikora bakaba bashobora gutunga imiryango yabo.

Hano turahabona ameza ndetse n'intebe bikozwe mu biti, bigaragaza ko iyo byitaweho bigafatwa neza bikirindwa kwangizwa, bishobora kubyazwamo umusaruro bikavamo ibikoresho dukoresha mu ngo kandi n'ababikora bakaba bashobora kubona ibitunga imiryango yabo.

Hano turahabona ibikoresho byo mu nzu birimo ameza, intebe, akabati, bikaba bigaragaza ko iyo ibiti bifashwe neza ntibyangizwe bishobora kuvamo ibintu byinshi, usibye kuduha umwuka wo guhumeka kandi bigatunga n'abanyabugeni babikora.

Aya meza ndetse n'intebe tubona hano ni ibikozwe mu biti nkuko bigaragara bikaba ari icyerekana ko iyo amashyamba afashwe neza akirindwa kwangizwa ashobora kubyazwamo ibindi bintu nka bimwe mubyo turuzi hano ndetse bikaba bitunga n'ababikora.

Aya meza ndetse n'intebe n'akabati tubona inyuma, ni ibikozwe mu biti, bikaba bigaragaza ko iyo bifashwe neza ntibyangizwe, bishobora kubyazwamo umusaruro w'ibintu byinshi kandi bigatunga n'abanyabugeni babikora.

Hano turahabonaho intebe ndetse n'ameza, akaba ari ibikoresho byo mu rugo bikozwe mu mbaho, bikaba bigaragaza ko iyo ibiti bifashwe neza bishobora kuvamo ibintu byinshi bitandukanye, kandi bigatunga n'ababikora.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza byose bikozwe mu biti bikaba ari ibigaragaza ko akamaro kabyo atari ukuduha umwuka duhumeka gusa, ahubwo ko iyo bifashwe neza bishobora kubyazwa umusaruro kavamo ibintu byinshi ndetse bikaba byatunga n'abanyabugeni babikora.

Hano turabonaho ibikoresho byo mu nzu bitandukanye nk'ameza, intebe, akabati byose bikaba bikozwe mu mbaho, bikaba bigaragaza ko ibiti akamaro kabyo usibye kuduha umuyaga bishobora no kuvamo ibindi bintu bitandukanye ndetse n'ababiko bakabasha kubona amafaranga yo gutunga imiryango y'abo.

Aya matara tubona hano ku muhanda ni ayerekana igihe umunyamaguru aba agomba kwambukira, ndetse n'ibinyabiziga bigahagarara igihe hari uri gutambuka, na byo bikabona kugenda, mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'akavuyo.

Uru ni urutonde ruriho ibyo kurya by'ubwoko butandukanye ndetse n'amafaranga bigura, rukaba rukirwa aho abantu bajya gufatira amafunguro bicara, kugira ngo barebeho ibyo bakeneye bahuje n'ubushobozi bafite.

Hano turahabona inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse n'intebe zo kwicaraho, nk'uko bigaragara akaba ari ahantu abantu bashobora kuza gufatira icyo kunywa baba bari kuruhuka, baganira n'inshuti zabo, ndetse n'imiryango yabo.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye nk'uko turi kubibonaho, ndetse akaba ari hamwe mu hantu abantu bakunda kujya abakeneye kuruhuka, gusangira n'inshuti zabo ndetse n'imiryango yabo, kandi bakanahidagadurira.

Hano turahabona ibicuruzwa bitandukanye, nk'imyambaro, ibikapu, uduseke, imikufi, n'ibindi, byose bikaba bikozwe mu buryo bushingiye ku muco w'igihugu by'u Rwanda.

Muri iri soko turahabona ibiribwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'abacuruzi, bimwe muri byo bikaba ari ibifasha ubuzima bwacu gukomeza kumererwa neza ndetse haba harimo n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibindi.

Ini ni isoko nk'uko tubibona rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko imbuto, akaba ari zimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza, cyane ko hari izongera amaraso i zirinda indwara n'ibindi.

Hano turahabona ibicuruzwa bitandukanye birimo ibikapu ,uduseke inkoni ndetse n'ibindi aho bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda kandi abanyabugeni bakabikora bashingiye ku muco wacyo nk'uko tubibona .

Iri ni isoko nkuko bigaragara tukaba tuhabona ibyo kurya bitandukanye byiganjemo imbuto, akaba ari zimwe umuntu akenera kugirango umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko harimo izongera amaraso, izituma umuntu agira imbaraga n'ibindi.

Iri ni isoko nk'uko bigaragara hakaba harimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye by'umwihariko imboga, turahabona karoti, intoryi ndetse n'ibindi. Bikaba ari bimwe dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto, uko bigaragara bikaba ari bimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko ari ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibindi.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye birimo imboga ,imbuto n'ibindi akaba ari bimwe dukenera kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza, ndetse n'ababicuruza babone amafaranga bakeneye n'abahinzi bajyane umusaruro wabo.

Hano turahabona ubucuruzi butandukanye bwiganjemo ibikorwa n'abanyabugeni harimo; ibiseke, imikufi n'ibindi, bikaba ari bimwe mu bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda kandi bishingiye ku muco wacyo.

Ibi ni ibicuruzwa bitandukanye turi kureba hano nkuko bigaragara hari inyanya imineke ibishyimbo amashaza n'ibindi bikaba ari bimwe mu byo kurya umuntu aba akeneye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko haba harimo ibitera imbaraga n'ibindi

Iri soko riherereye mu mugi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo, aho ryubakiwe bamwe mu bakorana imirimo y'ubucuruzi mu buryo butemewe n'amategeko batembereza ibicuruzwa vyabo mumuhanda.

Hano turahabona ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto, uko tubibona hari imineke, ibinyomoro, imyembe ndetse n'ibindi, bikaba ari bimwe mu bifasha ubuzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo bukomeze kugenda neza, cyane ko haba harimo ibirinda indwara, ibyongera amaraso n'ibindi.

Iri ni isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye, nk'uko tubibona byiganjemo imboga, bikaba byorohereza abagura kubona aho bagurira ibyo bakeneye kandi by'umwihariko abafite ubushobozi buke cyane ko biba bidahenze.

Iri ni isoko ryubatse mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo, aho ryubakiwe bamwe mu bakoraga imirimo y'ubucuruzi itandukanye mu buryo butemewe batembereza ibicuruzwa byabo mu mihanda n'ahandi.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye nk'uko turi kubibona, by'umwihariko turahabona imboga, ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi. Bikaba bifasha abakeneye kubigura, kubibona mu buryo bworoshye kandi n'abahinzi bakabona aho bajyana umusaruro wabo.

Hano turahabona agasoko gaciriritse gacururizwamo ibyo kurya bitandukanye higanjemo imboga nkuko tubibona hariho intoryi, inyanya ndetse n'ibindi, kakaba korohereza abaturage kubona aho bagura ibyibanze bakeneye by'umwihariko abafite ubushobozi buke cyane ko biba bidahenze.

Hano turahabona isoko rikoremo ubucuruzi bw'ibibiribwa bitandukanye by'umwihariko, ibyo atariri kubonaho n'imbutoba ari zimwe mu by'umubiri w'umuntu ukenera, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko ziba zirinda indwara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Hano turahabona ibicuruzwa bitandukanye birimo: amashaza, imineke, ibishyimbo, inyanya ndetse n'ibindi, bikaba ari bimwe dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dukomeze kumererwa neza.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye by'umwihariko imbuto akaba ari zimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza cyane ko harimo izirinda indwara n'ibindi.

Muri iri soko turahabona ibiribwa bitandukanye nk'uko tubibona byiganjemo imboga nk'inyanya, karoti, imiteja, bimwe muri byo akaba ari ibyo ubuzima bw'umuntu bukenera kugira ngo arusheho kumererwa neza, harimo ibitera imbaraga birinda indwara n'ibindi.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye nk'uko turi kubibona, by'umwihariko imbuto bikaba ari zimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera, kugira ngo ukomeze kumererwa neza cyane ko zimwe muri zo ziba zirinda indwara cyangwa zongera amaraso.

Nk'uko tubibona, iri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, by'umwihariko imbuto. Turahabona imineke ndetse n'ibindi bitandukanye, akaba ari bimwe ubuzima bw'umuntu bukenera kugira ngo bukomeze kugenda neza, cyane ko haba harimo ibirinda indwara, ibyongera amaraso, n'ibindi.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa by'ubwoko butandukanye nk'uko turi kubibona, byiganjemo imbuto, ndetse bikorohereza abakeneye kubigura kubibona mu buryo bworoshye, n'abahinzi bakabona aho bajyana umusaruro w'ibyo bejeje.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye nk'uko bigaragara, turabona karoti, ibitunguru, amashaza, imboga n'ibindi, bikaba ari bimwe umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza.

Hano turahabona isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye, birimo imboga ndetse n'ibindi nk'ibitoki, akaba ari bimwe umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse n'abahinzi babone aho bajyana umusaruro wabo.

Hano turahabona umucuruzi uri kumanika icyapa cyanditseho code azajya akoresha. Bikazajya byorohereza abaje kugura kuba bakwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri telephone zabo, no mu gihe baba batayitwaje mu ntoki.

Hano turahabona umuguzi ugiye kwishyura ibyo yagize, akoresheje amafaranga afite kuri telephone ye, aho turi kubona Ari kwandikiramo kode umucurizi akoresha. Akaba Ari uburyo bworohereza benshi niyo ntayo bitwaje mu ntoki.

Hano turahabona akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ndetse turahabona n'abaturage bari gufashwa, aho yegereza ibyo ikora abantu kugira ngo babe bashobora kubikuza amafaranga yabo, kuyabitsa, kugura amayinite yo guhamagaza nibindi.

Ikigo ngororamuco cyangwa gereza ya Huye ifungiwemo imfungwa zakatiwe igifungo k'imyaka runaka bitewe n'ibyaha bakoze. Hubakishijwe amabuye akomeye ndetse n'ibyuma.

Utu tuzu tubona hano ni tumwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho bifasha abaturage kuba babitsa amafaranga, bakayabikuza, bakagura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi mu buryo buboroheye.

Hano turahabona abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho iba yegereje ibikorwa byayo abaturage kugira ngo bayisobanukirwe kandi babe bayigana.

Hano turahabona abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho baba bari kwamamariza ibikorwa byayo, babyegereje abaturage kugirango basobanukirwe byinshi kandi babe bayigana.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, Aho gashyirwa ahantu hatandukanye kuburyo abantu baba bashobora amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyohereza n'ibindi muburyo buboroheye.

Hano turahabona abatwara abantu bakoresheje ikinyabiziga cya moto ndetse hariho n'abagenzi bari batwaye, bo bari kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bwakoreshejwe mu gihe cy'icyorezo cya kovide, mu rwego rwo kwirinda kuyikwirakwiza bitewe no kwakira amafaranga yo mu ntoki.

Aka ni akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, ndetse turahabona n'abaturage bari gufashwa mu buryo butandukanye, aho baba bashobora kwigura amayinite, kubitsa amafaranga, kuyabikuza, n'ibindi.

Iki cyapa tubona hano ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya mtn aho gihabwa umucuruzi hakaba hariho kode akoresha kugira ngo ugize icyo agura abe yakwishyura yifashishije amafaranga afite kuri telefoni.

Iki ni icyapa cya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho gishishikariza abantu kuba bakwishyura ibyo baguze cyangwa se ubundi bufasha bahawe, bakoresheje amafaranga bafite kuri telefone zabo.

Aka n'akazu ka sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, aho gakorerwamo bimwe mu bikorwa byayo ndetse bikegerezwa abaturage kugira ngo babe bashobora kuba bakiguriza amafaranga, kuyabitsa, kugura amayinite yo guhamagara n'ibindi bitandukanye.

Hano ni ahakorerwa ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene nk'uko turi kubibona hariho n'abakozi bakorana nayo, bukaba ari uburyo ikoresha yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo babisobanukirwe kandi barusheho kuyigana.

Hano turahabona abakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho baba begereje ibikorwa byayo abaturage kugira ngo babasobanurire uko ikora ndetse nabo babe bayigana.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara, by'umwihariko inyuma tuka tuhabona icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho, kiriho kode y'umucuruzi, aho umaze kugura aba ashobora kwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye, niyo yaba atagendanye mu ntoki.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho bya MTN aho ibyegereza abaturage kuburyo baba bashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura ama inite n'ibindi.

Uyu mutaka tubona hano ni ukorerwamo n'umwe mu bakozi ba sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho yegereza ibikorwa byayo abaturage, kugira ngo babe bashobora kugura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza, n'ibindi.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi uko tubibona hariho na kode ugize icyo atwara yishyuriraho akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye.

Aka ni kamwe mu tuzu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho emutiyene, aho yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere nko kuba babitse amafaranga, bakayabikuza, bakagura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Aka ni akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo babe babitse amafaranga bayabikuza, bagura amayinite yo guhamagaza n'ibindi mu buryo buboroheye.

Hano turabonaho abakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, aho bari kwamamariza ibikorwa byayo, akaba ari uburyo bufasha abaturage kuba basobanukirwa bimwe mu byo batayiziho ndetse bikabafasha kuyigana.

Hano turahabona umuntu wambaye umupira wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, n'umutaka ndetse n'umukozi uyikorera, aho iba iri kwamamariza ibikorwa byayo ahantu hatandukanye, hahurira abantu benshi kugira ngo babisobanukirwe kandi bayigane.

Uyu n'umuguzi akaba agiye kwishyurira ibyo yaguze ku ikoranabuhanga akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye, akaba ari uburyo bworohereza benshi nko mu gihe baba batayitwaje mu ntoki.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho emutiyene, aho yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo babe bashobora kubona aho babikuza amafaranga, kuyabitsa, kugura amiyinite yo guhamagara n'ibindi.

Aha ni ahari kwamamarizwa ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, uko tubibona hariyo abakozi bayikorera, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo babashe kubisobanukirwa kandi bayigane.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho bifasha abaturage kubona ibyo ikora mu buryo buboroheye nko kuba babitse amafaranga, bakayabikuza, bakayohereza n'ibindi.

Abagore bicaye ku ntebe bafite mu biganza byabo mitiweli n'udutabo two kwa muganga bambaye ibitenge undi afite uruhinja mu ntoki.

Aka kazu ni kamwe mu gakorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya Airtel, aho bafasha abaturage kuba babitsa amafaranga, bakayabikuza, bakagura ama inite yo guhamagaza n'ibindi.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y’itumanaho ya emutiyene. Aho gihabwa umucuruzi, niko haba hariho kode azajya akoresha, bigafasha abagize icyo bagura kuba bakwishyura bifashishije amafaranga bafite kuri telefone zabo.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni aho bari kwamamaza ibikorwa byayo, mu duce dutandukanye duhuriramo abantu benshi haba habereye imurikagurisha, kugira ngo basobanukirwe ibyo ikora kandi bayigane.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, ndeytse nk'uko tubibona hariho abaturage bari gufashwa mu buryo butandukanye, aho baba bashobora kubitsa amafaranga kuyabikuza kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Ubu butumwa tubona hantu ni ubuhabwa ugiye kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, akaba ari bumwe bufasha benshi, mu rwego rwo kurinda umutekano w'amafaranga yabo batayagendana mu ntoki.

Aka ni kamwe mu tuzu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, aho abaturage baba bashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kugura ameyinite yo guhamagara mu buryo bworoshye.

iki cyapa tubona hano ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN ,aho gihabwa umucuruzi nk'uko tubibona hariho na code azajya akoresha kugira ngo abamugana babe bashobora kwishyura ibyo baguze bifashishije amafaranga ari kuri konti za telefone zabo.

Hano turahabona umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho ari kwamamariza ibikorwa byayo, uburyo bwegerezwa abaturage kugira ngo basobanukirwe ibyo ikora, ndetse barusheho kuyigana.

Aka kazu tubona hano ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, ibyegereza abaturage kugira ngo babe bashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyohereza mu buryo buboroheye.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho gishyirwaho kode umucuruzi azajya akoresha kugira ngo umaze kugira ibyo agura cyangwa afashwa abe yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho umuntu ashobora kugura ibyo akeneye yifashishije ikoranabuhanga, nk'uko turi kubibonaho kandi bakaba banabimugezaho.

Hano turahabona abakozi batwara ibicuruzwa, babishyira babitumije, bakoresheje ikoranabuhanga, uko tubibona kuri moto zabo, hariho ibisanduku bishyirwamo, bukaba ari uburyo bworohereza benshi, by'umwihariko aba mu kazi, cya badafite umwanya, kuba babona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava aho bari.

Uyu ni umucuruzi cyangwa se umukozi ujyemuye ibicuruzwa wabitumije akoresheje ikoranabuhanga, aho byorohereza benshi mu gihe bari mu kazi, cyangwa badafite umwanya wo kuba bakwigerera aho babigurira.

Hano tura urahabona umucuruzi ugemuriye ibicuruzwa uwabiguze akoresheje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye byihuse, cyane ko babigezwaho bitabaye ngombwa ko bava aho bari.

Iri ni isoko ricururiza ibicuruzwa byayo ku mbugankoranyambaga zitandukanye, aho bifasha ukeneye kugira icyo agura, kuba yagitumiza aryifashishije kandi kikamugeraho mu buryo bwihuse.

Hano turahabona umukozi cyangwa se umucuruzi ugemuriye ibyo kurya uwabitumi yifashishijeje ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye no mu gihe baba badafite umwanya bitabaye ngombwa ko bava aho bari.

Uru ni urubuga rubaho ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye nk'uko turimo kubibona, rukaba rukorera ku ikoranabuhanga aho abantu barikoresha bashobora kuguriraho ibyo bakeneye kandi bakabigezwaho mu buryo bwihuse.

Uyu ni umukozi ugemuriye ibyo kurya umuntu wabitumije yifashishije ikoranabuhanga. Akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava aho bari, no mu gihe baba nta kanya bafite.

Hano turahabona umukozi ugemuriye ibicuruzwa ababitumije bifashishije ikoranabuhanga, ari uburyo bworohereza abantu benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mungo zabo cyane ko hari ababa dafite umwanya bakabigezwaho mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi ushyiriye ibicuruzwa aba bitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi bitewe no kuba badafite umwanya, bakaba bashobora gutumiza ibyo bakeneye kandi bakabigezwaho bitabaye ngombwa ko bigerera ku isoko.

Uyu ni umucuruzi ugemuriye ibicuruzwa uwabitumije yifashishije ikoranabuhanga, nk'uko tubibona ari kubikura igisanduku babitwaramo, hari uburyo bworohereza benshi mu gihe bari mu kazi cyangwa bari mu bindi, kuba babona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa kuba bava aho bari.

Hano turahabona ibisanduku biri kuri moto ndetse n'ababitwaramo ibyo kurya babigemuriye ababitumije bifashishije ikoranabuhanga. Akaba ari uburyo bworohereza benshi cyane ko baba bari mu kazi cyangwa se mu bindi badafite umwanya wo kuba bakwigerera aho bicururiza.

Hano turabona aho abatwara abagenzi kuri moto ndetse nabo bariho kaba ari uburyo bworohera benshi mu gihe bakeneye kwihuta cyangwa se nk'abakora akazi ka buri munsi bitewe n'uko bushobora no kugera n'aho imodoka ziba zitagenda.

Hano turahabonaho umukozi ushyiriye ibyo kurya ababitumije bakoresheje ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe badafite umwanya wo kuba bakwigerera aho bicururizwa, bikabageraho mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi cyangwa se umukozi ugemuriye uwagize ibyo agura akoresheje ikoranabuhangaba, akaba ari uburyo bufasha benshi by'umwihariko ababa bafite akazi cyangwa se badafite umwanya wo kuba bakwigere ku isoko kubona ibyo bakeneye kandi byihuse.

Aba ni bamwe mubashyira ibibiribwa ababitumije bifashishije ikoranabuhanga akaba ari uburyo bworohereza benshi abari mu kazi badafite umwanya cyangwa se abandi bafite ibyo bakeneye kuba bashobora kubigezwaho mu buryo bwihuse bitabaye ngombwa ko bava aho bari.

Hano hari uruhurirane rw'abagize ishyaka rya Efuperi Inkotanyi. bafite amadarapo arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa Sitiyu.

Uyu ni umucuruzi ugemuriye ibyo kurya ababitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe badafite umwanya, kuba babona ibyo bakeneye kandi byihuse.

Iri ni isoko ricuruza ibicuruzwa byabyo ku ikoranabuhanga nkuko turi kubibona, aho ukeneye kubigura ashobora kuba yabitumiza kandi bakabimugezaho bitabaye ngombwa ko ava mu rugo iwe.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, birimo imboga nkuko tubibonaho, aho umuntu ashobora kwifashisha ikoranabuhanga akaba yatumiza ibyo akeneye kandi bakabimugezaho.

Iri ni isoko ryamamariza ibicuruzwa byayo ku ikoranabuhanga, ndetse rikanabihacururiza nkuko tubibona, ubikeneye akaba ashobora kuryifashisha akabitumiza kandi bikaba byamugeraho aho ari.

Hano turahabona umucuruzi cyangwa se umukozi ugemura ibicuruzwa wabiguze yifashishije ikoranabuhanga nkuko tubibona akaba bimuzaniye mu rugo bukaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe badafite umwanya wo kuba bakwigerera ku isoko kubona ibyo bakeneye mu buryo bworoshye.

Hano turahabona umucuruzi cyangwa se umukozi ugemuriye ibyo kurya uwabitumije akoresheje ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bwiza cyane bworohereza abantu kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se abari mu kazi cyane ko abenshi baba badafite umwanya.

Uyu ni umucuruzi ugemuwe ibicuruzwa kubabitumije bifashishije ikoranabuhanga, akaba ari uburyo bworohereza abakeneye ibyo kugura kuba babibona bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa aho bari gukorera, ndetse bigafasha n'abacuruzi kugeza ibicuruzwa ku bantu benshi batandukanye uko bishoboka.

Muri iri duka turabonamo ibicuruza by'ubwoko butandukanye birimo amandazi ndetse n'ibindi bikorwa mu ifarini bikaba ari ibifasha abantu cyane ko abenshi babifata ku mafunguro yabo ya mu gitondo baba abagiye mu kazi cyangwa se abanyeshuri.

Hano turahabona isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye byiganjemo imbuto. Akaba ari bimwe mu byo umuntu akenera kugirango arusheho kugira ubuzima bwiza, cyane ko haba hari izitera imbaraga, izirinda indwara n'ibindi.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda, aho Leta yorohereje abaturage, by'umwihariko abafite ubushobozi buke, kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye.

Hano turahabona umurwayi ari kwa muganga, akaba afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, mu buryo leta yashyiriyeho abaturage, kugira ngo mu gihe barwaye be kurembera mu rugo, by'umwihariko abafite ubushobozi buke, baba batashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, aho leta y'u Rwanda yashyiriyeho abaturage uburyo buborohereza, kugira ngo ntibarembere mu rugo, n'abatishoboye bashobore kubona ubuvuzi bakeneye.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyiriyeho abaturage ubu buryo by'umwihariko abadafite ubushobozi bwo kuba bakwishyura ijana ku ijana kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye.

Iyi karita tubona aha n'iy'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yorohereje abaturage kubona ubuvuzi bakeneye, by'umwihariko abafite ubushobozi buke, kuba batarembera mu rugo.

Aya makarita tubona aba baturage bafite n'ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyiriyeho abaturage uburyo buborohereza by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba batarembera mu rugo bitewe n'uko badashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Aya makarita y'umuhondo tubona hano, nay'ubwisungane mu kwivuza, aho leta yashyiriyeho uburyo bworohereza abaturage kubona ubuvuzi bakeneye, by'umwihariko abafite ubushobozi bucye, baba batashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza aho leta yashyiriyeho abaturage uburyo buborohereza cyane cyane abafite ubushobozi buke batabona amafaranga yo kwishyura ijana ku ijana kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye.

Aya makarita tubona hano ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyizeho uburyo bworohereza abaturage, by'umwihariko abafite ubushobozi buke kuba bafashwa mu gihe barwaye bitabagoye.

Aya ni amakarita y'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, leta ikaba yarorohereje abaturage by'umwihariko afite ubushobozi buke kuba batarembera mu rugo, bitewe n'uko babuze ubushobozi bwo kwishyurira ijana ku ijana ko uyifite ashobora guhabwa ubufasha akeneye bwose.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yashyiriweho abaturage uburyo buborohereza kuba batarembera mu rugo mu gihe barwaye, bitewe no kubura amafaranga yo kwiyishyurira ijana ku ijana.

Muri iri soko turabonamo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye byiganjemo imboga ndetse bibitse mu buryo bidashobora kwangirika ubigura akaba yizeye ko bifite ubuziranenge bikaba na bimwe mu byo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo bimurinde indwara zitandukanye kandi agire imbaraga .

Iri ni isoko ryubatse mu buryo bugezweho kandi nkuko tubibona buri gicuruzwa kiri mu mwanya wacyo ndetse bikaba bibitse mu buryo bidashobora kwangirika bisa neza kandi n'ababigura bagashobora kubona icyo bakeneye mu buryo buboroheye.

Iri ni isoko ricuruzwa mu buryo bugezweho aho tubona ibicuruzwa buri cyose kiba cyasizwe ukwacyo, kandi bibitswe mu buryo bidashobora kwangirika.